Umugabo uhetse ipompo arimo gutera umuti mu muceri, uyu muti ufasha umuceri kugira ibibabi byiza ndetse n'udusimba turi ku bibabi by'umuceri tugapfa kandi nanone bikaba ari kimwe mu byongera umusaruro w'umuceri.

Umugabo ufite ipombo arimo gutera umuti igihingwa cy'umuceri. Aha ngaha umuti ufasha iki gihingwa kugira ngo ibibabi bikure neza ndetse n'udusimba turya ibibabi tubashe kuvaho dupfe kugira ngo igihingwa kibashe kugira umusaruro uhagije.

Umugabo uhetse igikoresho cyitwa ipombo, aho ikoreshwa mu gutera umuti ibihingwa cyangwa ibimera. Arimo gutera umuti ibihingwa kugira ngo bibashe kugira ibibabi byiza kandi byice n'udusimba tuba turi kwangiza ibibabi.

Umudamu ahagaze imbere y'icyuzi cy'amazi, aho abantu benshi bakorera umushinga wo korora amafi banyuze mu mazi, bashyiramo ingemwe noneho ayo mafi agakura banagamo n'ibiribwa amafi arya, yamara gukura bakayaroba bakaba bayagurisha cyangwa bakayarya.

Umudamu wicaye mu bwato. Ni ubwato busanzwe bukorwa mu mbaho, ari mu mazi aho afite n'inganshya arimo gutwara ubwato bukunda gukoreshwa n'abarobyi bakunda kuroba amafi.

Abagabo babiri bari mu mazi barimo kuroba. Bari mu mazi ariko atari menshi avanze n'isayo, aho barimo gukuramo amafi. Ibingibi bikunze gukorwa cyane cyane iyo amazi yakamye ahantu bakajya guhigamo amafi.

Umudamu ahagaze kandi akaba afite ifi y'igihonda mu ntoki, iyi fi ni amwe mu mafi yororerwa mu mazi cyane cyane nko mu biyaga cyangwa ahantu bakora ibyuzi bakororeramo amafi.

Abantu babiri bari mu bwato buto cyane bukorwa mu mbaho, barimo kuroba, banaze inshundura mu mazi, akenshi iyo bazinazemo, baba bakeneye ko amafi ajyamo agafatwa, bakayaroba, aha ngaha hakunze kuba ari nko mu kiyaga cyangwa mu migezi itemba, ibi ngibi nanone kandi bikorwa nk'umushinga, aho banagamo ingemwe z'amafi kugira ngo akuriremo.

Amafi menshi ari ahantu hamwe, akenshi amafi akunda gukorwamo nk'ubworozi bw'amafi. Aho bakora ibinogo noneho bagashyiramo ingemwe z'amafi kugira ngo amafi akuriremo . Akenshi bikorerwa muri ibyo binogo cyangwa no mu biyaga.

Ahantu bubatse igice cyo kororamo ibinyabuzima byo kura mu mazi nk'amafi cyangwa ibindi. Aho bakoze akantu bakagenda kegeranya amazi gasa ubururu, aho abantu bakusanyirije amazi bashyiramo ingemwe z'ibinyabuzima nk amafi kugira ngo babashe gukuriramo.

Isambaza ziri mubasi umuntu afite nkeya mu ntoki, bivuze ko avuye kuziroba. Isambaza zikunda kuberwa ahantu nko mu biyaga cyangwa se ahantu abantu bakora ubworozi bwo korora amafi cyangwa ibindi bikura mu mazi, bubaka bagashyiramo ingemwe z'insambaza kugira ngo zizakuriremo bazibyaze umusaruro.

Ahantu mu gishanga bacukuye ikinogo, aho bakoreramo ubworozi bw'amafi cyangwa ibindi binyabuzima bikurira mu mazi. Uyu mushinga ukunda gukorwa n'abantu begereye igishanga, aho bashyiramo amazi noneho bagashyiramo n'ingemwe z'ibinyabuzima bikurira mu mazi nk'amafi indagara cyangwa insambaza.

Ubworozi bw'ibinyabuzima bikurira mu mazi harimo nk'amafi. Abagabo babiri bahagaze imbere y'ibikorwa byabo, aho batunganyije ibintu byororeramo amafi. Bakora akazu gatoya bakagota amazi noneho bagashyiramo ingemwe z'ibyo binyabuzima kugira ngo bikuriremo cyane cyane bikunda gukorwa mu bworozi bw'amafi.

Umuntu wambaye imyenda y'imyeru ari kwerekana imbere ye hari amafi menshi. Ni amafi yarobo yarobwe. Akenshi aya mafi akunda guturuka mu binogo abantu baba barakoze, kugira ngo bororeremo amafi, cyangwa mu biyaga.

Umuntu ari mu murima w'ikawa arimo kuzisarura, umuntu usa nk'ukuze aho arimo gusarura ikawa. Ni ikawa nayo ikuze, gusa ikawa zeze kubera ziba zisa umutuku, ntazo ndikubonamo ameze nk'umuntu wazimazemo.

Igihingwa cy'ikawa ni ikawa ziri ahantu heza kandi zisasiye ziriho imbuto imbuto zisa icyatsi bivuze ko zitarera kuko iyo ikawa yeze iba ifite umusaruro w'imbuto zisa umutuku.

Abantu batatu bari mu murima w'icyayi. Barimo kugisarura. Bafite ibikoresho bari gusaruriramo biba biri inyuma mu mugongo. Aha icyayi gikunda gukoreshwa cyane cyane mu bucuruzi bwambukiranya imipaka, aho u Rwanda rugifata nka kimwe mu bituma rujya mu bucuruzi Mpuzamahanga.

Igihingwa cyitwa ikawa, hariho ikawa yeze ndetse n'iteze, iyeze irasa umutuku, iteze irasa icyatsi, ikawa yo iracyari mu murima ifite ibibabi by'icyatsi, akenshi iyo zeze barazigurisha, bakazijyana ku nganda kugira ngo zitunganywe.

Umukobwa uri mu murima w'ikawa arimo kuzisarura ni ikawa zeze aho izeze ziba zisa umutuku iziteze zikaba zisa icyatsi, inyuma ye kandi hari ishyamba rinini ndetse inyuma ye nanone hakaba harimo agace karimo insina.

Igihingwa k'ikawa hariho ikawa zeze n'iziteze, ikawa zeze zirasa umutuku iziteze zirasa icyatsi. Izi zeze zirasarurwa maze zigatunganywa zikagurishwa aho zikomeza kugenda zikaba zikoreshwa no mu bucuruzi Mpuzamahanga nka bimwe mu Rwanda rukoresha.

Amakarito atandukanye arimo imiti y'amatungo. Imiti imwe iri mumakarito, iyindi iri mu tuntu tw'utudobo. Aho haba harimo imiti ivura indwara zitandukanye z'amatungo kandi akaba ari nk'ahantu bacururiza imiti y'amatungo.

Imiti y'amatungo harimo imiti yo mu bwoko butandukanye, harimo iri mu makarito, mu ducupa dutoya ndetse n'uducupa tunini. Ibivura amatungo indwara zitandukanye harimo nk'inzoka n'ibindi, cyane cyane nk'iyi miti mitoya yo iba ivura amatungo nk'inkoko, aho ziba zarwaye umusinziro cyangwa inkorora.

Imiti y'amatungo kandi iri mu ndobo nini iyi ni imiti y'amatungo hashushanyijeho ihene. Bivuze ko iyi ari imiti ivura ihene cyangwa andi matungo ari mu kigero kimwe n'ihene.

Inzu irimo amakarito arimo imiti y'amatungo, harimo imiti itandukanye nk'imiti ivura amatungo magufi nk'ihene, ingurube, inkoko ndetse n'ibindi ndetse n'iyindi ivura inka.

Umugabo woroye amatungo. Afite inka nyinshi. Imbere ye hari umudamu urimo kumubaza ibijyanye n'ubworozi, afite indangururamajwi aho ari kumukoresha ikiganiro. Umukobwa wamwita nk'umunyamakuru.

Umuntu uri munsi y'inka arimo gukama. Arimo gukamisha amaboko abiri mu kinyarwanda kiza bita kuvuruganya. Arimo gukama amata, amata akoreshwa mu bintu bitandukanye wayanywa ari inshyushyu cyangwa akaba wayanywa ari ikivuguto kandi akaba avura n'indwara zitandukanye. Harimo nka bwake ndetse n'izindi.

Umuhinzi w'umudamu ufite umuhoro arimo gutema ibigori. Ni ibigori byumye bigaragara ko byasaruwe, akenshi ibingibi bikunda guhingwa ahantu mucyaro kandi bivamo ibintu bitandukanye nk'akawunga cyangwa igikoma.

Ibihingwa bihinze ku murongo. Ni bimwe mu bihinzi mu buryo bugezweho aho bafata mu mugihingwa kimwe bakagishyira ku murongo ino igiye itandukana, hagati y'igihingwa kimwe n'ikindi hakaba harimo umwanya umuntu ashobora kunyuramo arimo kuvomera cyangwa arimo gutera umuti.

Abantu bicaye hamwe aho barimo kuganirizwa n'umuntu umwe ubahagaze imbere, bameze nk'abantu bari mu gikorwa cy'ubuhinzi cyangwa ibindi bitandukanye, bakaba barimo kuruhuka bahana n'ibiganiro, bari ahantu mu gasozi hameze nk'ahegereye ishyamba.

Icyapa cyangwa igishushanyo kirimo inka mo hagati. Hariho amagambo avuga ngo Nyagatare dayari maketingi koperative sosayati, bishatse kuvuga ko ari ikigo gishinzwe kwamamaza ibijyanye n'umusaruro uturuka ku mata.

Abantu barimo guhinga mu gishanga. Barimo guhinga igihingwa cyitwa umuceri. Ni ku buso bunini, aho mu gishanga hafi ya hose, bahinzemo umuceri. Umuceri ni kimwe mu bihingwa byifashishwa mu bantu benshi, aho bikorwa mu bucuruzi ndetse n'abahinzi bakabyungukiramo.

Abahinzi bari mu murima, aho bahinzemo igihingwa cyitwa inanasi, ubu ni ubuhinzi bw'imbuto, barimo kwita kuri icyo gihingwa cy'inanasi, inyuma yabo kandi hakaba hateye n'insina.

Umugabo ari mu murima uhinzemo amashu, afite ishuri rimwe mu ntoki ndetse n'umuhoro, inyuma ye hari ibindi bihingwa nk'ibigori ndetse n'urutoki, haparitse igare ku ruhande, kandi ari mu murima w'amashu asa nk'ayezi.

Umuhinzi w'umudamu arimo kufira cyangwa gukura ibyatsi mu murima uhinzemo ibigori. Ni ibigori bikiri bito cyane, aho arimo kubyuhirira kugira ngo bibashe gukura neza nta bindi bimera bibibangamiye birimo.

Ihene nyinshi ziri ahantu hamwe ni ihene akenshi zororerwa ahantu mu byaro aho umuntu ahitamo gukora umushinga wo korora ihene, hari abantu bari ku ruhande bameze nk'abashumba baziragiye cyangwa baje mu isoko.

Abantu bari mu nzira imwe kandi bakaba bari ku murongo bafite ibikoresho nk'amasuka, ni abantutu benshi bari ahantu mu kayira kegeranye aho ku ruhande hari ibimera bitandukanye bimeze nk'ibisheke.

Umugabo urimo guha inka ubwatsi bivuze ko ari umugabo ufite umushinga wo korora inka, aho yazubakiye ikiraro zikaba ziba mu nzu kandi aho zirira n'aho ziryama hakaba hatandukanye.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa bitandukanye cyane cyane ibyo kunywa, Aho umuntu arangura ibintu akabyegereza abaturage. Ni ahantu mu nzu kandi ibicuruzwa bitondetse ku murongo neza, aho iyo umuntu abishaka agenda akabyikoreraho.

Igihingwa cy'imyumbati. Imyumbati iteye mu buryo butandukanye wakwita amahunnge mu Kinyarwanda cyiza. Iyo imyumbati iteye gutya itandukanye bituma yera kandi ikazaho ari minini cyane. Imyumbati ikunze kuvamo bimwe mu bintu bitandukanye aho ibibabi byayo bashobora kubikuramo isombe cyangwa bakaba babiha amatungo nk'ingurube ndetse ikaba yavamo n'ubugari.

Igihingwa cyitwa umwungu. Umwungu uburyo weramo cyangwa uburyo uhingwamo, barawutera ariko ukarandaga ku butaka, ku buryo ushobora gufata intera ya metero nyinshi. Aha ngaha rero heraho ikiribwa cyitwa umwungu.

Umurima urimo igihingwa cy'amashu. Ni amashu ari ahantu ku gasozi, aho ibibabi bimwe na bimwe byatangiye kuba umuhondo. Aya mashu ari mu kigero kiringaniye ntabwo arera.

Ibirayi biri mu mufuka. Ibi bitondetse neza nkibiri ku isoko. Ni bimwe mu misaruro ituruka mu buhinzi, aho abahinzi babyeza noneho bakajyana ku isoko kugira ngo babigurishe. Ibi bihingwa bikunda kwera mu majyaruguru mu turere nka musanze.

Ishyamba rinini cyane ririmo ibiti bifatanye kandi birebire. Harimo kandi imisozi n'ibibaya muri iri shyamba. Ni ishyamba rimeze nk'irya kimeza. Aho wageraranya nka Nyungwe.

Ibiti binini biri ahantu hamwe, byitwa ishyamba. Aho hagiye harimo intera igiye itandukanya hagati kimwe n'ikindi, kandi hahagazemo umuntu muri iryo shyamba wambaye ikote ry'ubururu n'ipantaro y'umukara.

Umusozi munini urimo n'ikibaya urimo ishyamba gusa. Ni ishyamba rinini cyane. amashyamba nk'aya ngaya, akunze kuboneka ahantu hari ishyamba rya kimeza nko muri Nyungwe, cyangwa muri Gishwati.

Ishyamba rinini kandi ririmo ibiti byegeranye cyane, riri ahantu ku buso bunini, mwene aya mashyamba dufiteye amashyamba abiri mu iki gihugu cyacu twabigereranya, harimo nka nyungwe ndetse na gishwati, zikunda kuba harimo n'inyamaswa ziri zitandukanye zikurura ba mukerarugendo.

Ishyamba rinini kandi ririmo n'umugezi, umugezi utemba urimo amazi asa neza, imwe mu migezi ikunda kuboneka mu mashyamba ntago iba ari migari cyane ahubwo aba ari amazi atemba.

Ibiti by'inturusu. Harimo inturusu ndende ndetse n'izikiri ntoya. Akenshi izi ngizi ziterwa kugira ngo umuntu akore ishyamba, aho haba hari ikusanyirizwa ry'ibiti byinshi by'inturusu cyangwa ibindi biti bitandukanye.

Ahantu hitaruye, harimo ikibaya kinini cyane ndetse hakurya hakaba hari imisozi. Kandi hari n'ishyamba rinini ririmo, aho hagati mu gikombe harimo ibindi bihingwa bimeze nk'umuceri cyangwa n'ibindi. Ikirere kimeze neza.

Umugabo uri mu murima uhinzemo imboga, n'imboga nyinshi kandi zihinze mu buryo bugezweho ku murongo, bimwe mu bifasha mu kuzivomerera izi ni imboga za kizungu zitari zimwe zitwa dodo.

Igihingwa cyitwa inyanya ni urunyanya rukiri mu murima kandi rweze ikigaragaza inyanya zeze ni uko ziba zisa umutuku, iziteze zo ziba zisa icyatsi, iz ni ibihingwa bibarirwa mu cyiciro cy'imboga.

Umusaruro bateranyirije hamwe, uturuka ku mboga cyangwa ubuhinzi bw'imboga. Harimo karoti, pavuro, inyanya, ubutunguru, kokombure ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ubuhinzi bugezweho bw'imboga. Aho batera imboga ku murongo, ndetse bakajya bazivomerera mu buryo bugezweho. Hagati y'imboga n'izindi bacamo inzira izajya inyuramo umuhinzi kugira ngo, abashe kuzibungabunga.

Ibigori byasaruwe ni ibigori byeze neza kandi bisa umuhondo, ibigori bisa umuhondo bikunda kuvamo akawunga k'umuhondo mu izina ry'amahanga bakita patejone.

Igihingwa k'imboga, imboga ziteye mu buryo bugezweho kandi zitandukanye, aho iyo waziteye zitandukanye bitanga umusaruro ufatika kandi binafasha mu buryo bwo kubivomerera kugira ngo zikure neza kandi zitange n'umusaruro ufatika.

Umuntu uri mu gihingwa cya pavuro z'umutuku, ni ubuhinzi bw'imboga kandi imboga zihinzwe mu buryo bwa kijyambere, ni igihingwa cya povuro rero zimwe yazisaruye arazitwaye zirasa umutuku, izindi zitarera zirasa icyatsi.

Umurima w'igikoni. Imirima y'igikoni ikunda kubakwa n'abantu bo mu cyaro. Hariho ibihingwa nka dodo, ikigori ndetse n'ibindi. Umubyeyi arimo gusarura imboga. Inyuma ye kandi hari ibindi bihingwa nk'imyumbati ndetse n'insina.

Ubuhinzi bw'indabo, harimo indabo nyinshi zitandukanye ziri no mu mabara atandukanye, harimo abagabo babiri barimo kuzitaho, aho ari umushinga ukorwa wo gucuruza indabo, indabo zivamo bimwe mu bintu bigiye bitandukanye, ni umwe mu mishinga ngandurabukungu, ukorwa cyane ahantu mu mijyi, aho bategura ahantu indabyo, noneho abantu bakaza kuzigura, bakazikoramo imitako cyangwa na parufe.

Umubyeyi urimo guhinga ahantu hegereye igishanga, arimo guhinga ku ruhande rwe hari ibindi bimera bimeze nk'inyanya, arimo guhinga wenyine mu murima nta wundi muntu urimo.

Umugabo urimo kuvomere amashu, ni amashu ahinze ku murongo aho baciyemo n'inzira umuntu azajya anyuramo avomera kugira ngo atayakandagira, ari gukoresha uburyo bwiza bugezweho aho afata umugozi unyuramo amazi akayafungura noneho akavomera atari gukandagira mu murima.

Umubyeyi arimo kuvomerera imboga ariko arimo gukoresha uburyo busanzwe, aho yafashe indobo akajya kudaha amazi akazana ku bihingwa akabona kuvomerera, mu gihe abandi bateye imbere bakoresha amatiyo cyangwa za moteri kugira ngo bavomerere bitabagoye.

Abantu barimo kuvomerera ibihingwa. Bari gukoresha uburyo bugezweho bw'amatiyo, aho bafata moteri ikogota amazi, ikayakogota ikayanyuza muri ayo matiyo maze amazi akagera ahantu ibihingwa biri cyangwa se bakaba bakoresha robine kugira ngo bavomerere igihingwa bitabagoye.

Ibihingwa by'ibigori bihinze ku murongo hagati y'umurongo umwe n'uwundi harimo itiyo, aho iyi tiyo ikoreshwa mu kuvomerera mu buryo bugezweho, ntabwo bisaba ko umuhinzi ajyamo kuvomere ahubwo afungura amazi noneho akagenda ajya muri ibi bihingwa. Ibi bihingwa ni ibigori.

Umuntu urimo kuvomerera ibihingwa, aho arimo gukoresha uburyo bwiza bwo gucomeka itiyo ahantu hari amazi ya robine, cyangwa agakoresha moteri iyakogota, iyakura ahantu ku isoko, ikayazana mu itiyo, akavomerera imyaka yihagarariye.

Umudamu urimo kuvomerera imyaka arimo gukoresha itiyo bakoresha bavomerera, ni uburyo bugezweho aho umuntu avomerera atari gukandagira mu myaka, ahubwo agafata itiyo agacomekaho amazi maze akavomerera.

Uburyo bwo kuvomerera bugezweho, aho hari itiyo ifite ahantu amazi asohokera habiri, hamwe iburyo, ahandi ibumoso, impande yaho kandi hari pano z'umurasire w'izuba zitanga umuriro w'amashanyarazi uturutse ku murasire.

Umugabo urimo kuvomerera kandi yambaye agapfukamunwa, ari kuvomerera akoresheje uburyo bwiza kandi busa nk'ubugezweho, aho afata moteri akayijyana ahantu ku ivomero cyangwa se akaba ari robine, agacomekaho maze agafata itiyo izana amazi akayegereza ibihingwa, akavomera atagombye kujya kwivomera amazi ku ivomero.

Umuntu urimo kuvomere imyaka yafashe rozwari ashyiramo umugozi uvomera imyaka akaba arimo kuvomerera, aho ari gukoresha rozwari nk'igikoresho gisanzwe.

Ahantu hitegeye harimo imisozi minini n'imitoya, harimo n'ibibaya. Ikirere ni cyiza kandi imisozi myinshi irimo amashyamba akiri matoya. Imisozi imeze itya ikunda kuboneka ahantu nko mu majyaruguru ndetse n'ahandi.

Ahantu hari ikibaya ndetse n'imisozi, ni ahantu harimo n'umugezi mo hasi utemba, harimo ibihingwa bitandukanye ndetse ibiti birebire n'ibiti bigufi.

Ahantu hitegeye harimo imisozi minini ndetse n'imitoya iyo misozi kandi irimo ibimera bafata nk'amashyamba cyangwa ibindi bimera bigufi hagati y'imisozi kandi hagiye harimo amazi bivuze ko harimo amazi n'imisozi.

Ahantu hitaruye cyane kandi hari ikirere cyiza, harimo imisozi mito mito ndetse n'imisozi minini, kandi hakaba harimo amashyamba, hamwe harahinze, ahandi ntabwo hahinze hari ibimera gusa.

Ahantu hitaruye harimo abaturage batuyemo kandi bakaba begereye n'insina zikoze urutoki. Hakurya yabo kandi hari imisozi miremire, irimo amashyamba n'ibindi bimera bigiye bitandukanye.

Ahantu hitegeye kandi heza harimo imisozi mitoya ndetse n'imisozi miremire, kuri iyo misozi kandi hariho amashyamba aho hagati y'imisozi n'indi harimo amazi.

Ahantu hitegeye kandi harimo imisozi. Imisozi mito, iminini ndetse n'ibibaya birimo amazi. Imisozi kandi iriho ibimera byakitwa nk'ishyamba. Ni ahantu heza kandi habera ibikorwa bitandukanye nk'uburobyi hano mu mazi ndetse no mu misozi hakaberamo ubworozi.

Ahantu hari imisozi ndetse n'ibibaya, harimo imisozi mito mito irimo amashyamba, hakurya hakaba hari umusozi munini wagereranya nk'ikirunga, hariho kandi kuri uwo musozi hariho za nyiraturi nyinshi cyangwa ibicu.

Ahantu hari ikibaya kinini ndetse n'imisozi miremire kandi hakaba harimo amashyamba. Aha ni ahantu hari ubutaka butandukanye. Aho hamwe haba hahingwa ahandi hadahingwa cyane cyane nko ku misozi ntabwo hahingwa.

Ahantu hitaruye kandi hitege harimo imisozi mito mito kandi imisozi ikaba iriho ibimera bimeze nk'amashyamba, hagati y'imisozi n'indi harimo amazi.

Inkoko nyinshi kandi ziri mu kigero kimwe, ziri ahantu hazitiye kandi hari n'ibyatsi, ntabwo ziri mu nzu ariko ziri ahantu hasa nk'ahazitiye, uyu ni umushinga ukorwa n'umuntu kugira ngo yorore inkoko ajye azigurisha zivemo inyama zicuruzwa mu mahoteli n'ahandi cyangwa akuremo amagi cyangwa azireke zororoke.

Imbabura irimo kwaka iri impande z'inkoko z'imishwi zikiri ntoya bivuze ko baba bari kugira ngo izi nkoko zumve ubushyuhe. Ni ubworozi bukorwa n'umuntu wabyiyemeje korora amatungo magufi nk'inkoko aho afata imishwi akayishyira hamwe mu nzu imwe akajya ayiha ibyo kurya igakuriramo baba bazihaye umuriro kugira ngo zishyuhe.

Inka iri kuryaho ubwatsi bayahiriye, iyi ni inka yororerwa mu rugo aho bayubakira ikiraro noneho umushumba cyangwa umworozi akajya ajya kuyahirrira ubwatsi akayizanira, inka rero irimo kurisha ubwatsi aho irara n'aho irishiriza bitandukanye.

Ingurube ni imwe mu matungo yororerwa mu rugo, aho bazubakiye ibirugu binini kandi bigezweho kugira ngo zibashe kororerwamo, akenshi ibi bikorwa n'umuntu wahisemo umushinga wokorora ingurube, akazubakira ikirugu kigezweho, ni ibirugugo byinshi rero birimo ingurube.

Inkoko nyinshi ziri ahantu hamwe. Akenshi ibi bikunda gukorwa n'umuntu wiyemeje gukora umushinga wo korora inkoko, aho azishyira mu nzu imwe akajya azigenera ibyo kurya. Ni inkoko ziri mu kigero kimwe kandi zimeze kimwe.

Inkoko nyinshi ziri ahantu hamwe bivuze ko zororerwa ahantu hamwe mu nzu bazubakiye, akenshi iyi ni imishinga ikunda gukorwa n'abantu borora amatungo magufi bagafata inkoko bakazishyira ahantu hamwe, aho baba bafite imishinga ibiri, harimo kuzigurisha zikaribwa nk'inyama cyangwa zikajya zitera amagi bakayagurisha ikindi bakaba bazorora zikaba nyinshi.

Inkoko ziri ahantu hamwe. Ubu ni ubworozi bw'inkoko bugezweho aho ari umushinga ngandurabukungu. Umuntu wiyemeza korora inkoko kandi mu buryo bwa kijyambere akenshi abafite intego ebyiri kuzigurisha zikaba zavamo inyama cyane cyane zikoreshwa mu mahoteli cyangwa akaba yajya akuramo amagi akazigurisha akayagurisha.

Inkoko zororewe ahantu hamwe, ni ubworozi bukunda gukorwa bw'inkoko aho bazishyira ahantu hamwe bakajya bazimenyera ibiryo ndetse n'ibindi byose bikenera nk'amazi yo kunywa. Inkoko zikiri ntoya zimaze kuva mu bushwi aho zitangiye gukura.

Inka ziri ku murongo kandi ziri ahabugenewe ni ahantu bubakira inka hegeranye cyane kugira ngo zibashe guhabwa ubuvuzi zitari gukubita imigeri zitabangamira umuganga w'amatungo, abaganga b'amatungo barahari bagiye kuzivura.

Ubworozi bwa kijyambere ni ubworozi bwubakiwe neza kandi buri mu biraro bya kizungu, aho inka zororerwa ziri mu kiraro noneho bakaziha ubwatsi, aho zirishiriza ntago aba ariho zirara. Hari umugabo wambaye itaburiya y'umweru urimo kuzitaho.

Ishyo ry'inka riri mu rwuri, ni inka nyinshi ziri ahantu hamwe zirimo kurisha, izi nka zikunze kuboneka hano mu karere ka Nyagatare, aho zikunda kuba zifitwe n'aborozi benshi, inka kandi zirishiriza hamwe, akenshi ziba ari iz'umuntu umwe cyangwa abantu batandukanye.

Ingurube ni kimwe mu matungo yororerwa mu rugo aho iba itemerawe gusohoka ngo ijye kurisha bakayororera mu rugo, ingurube rero iri ahantu hubatse neza mu kirugu cyabugenewe kandi kigezweho aho bayizanira ibyo kurya ikaharira kandi ikaba yanahabwagurira.

Inka ziri ahantu habugenewe kugira ngo bazivure, aho ziba ziri ahantu mu kayira gatoya kugira ngo zidatera imigeri barimo kuzitera nk'urushinge cyangwa ibindi, hari abaganga b'amatungo baje kuzitaho kugira ngo bazivure.

Abagabo babiri begereye inka. Bameze nk'abagiye kuzikama aho bafite igikoresho bakoresha bari gukama inka. Ni abagabo babiri, umwe yambaye igisubeti cy'ubururu, undi yambaye ishati ijya gusa icyatsi n'ipantaro y'umukara n'ingofero.

Inka ndetse n'inyana yayo. Inka nkuru irimo kurigata umwana wayo. Biragaragara ko imaze kuyibyara. Aho iyi nka imaze kubyara umwana wayo, ibanza ikayirigata kugira ngo ibashe kumenyera.

Imbabura irimo kwakamo amakara. Imbabura yafashwe kandi iri kwaka cyane, yegereye inkoko z'umushwi. Inkoko zikiri ntoya aho bakije imbabura kugira ngo zibashe kumva ubushyuhe. Ni ahantu bazororeye habugenewe bazishyizemo, noneho bashyiramo n'umuriro kugira ngo zibashe kumva ubushyuhe zidakonja.

Umudamu arimo kugosora ibishyimbo. Ni ibishyimbo biri mu ibara rimwe, bimeze nka shyushya. Akenshi abahinzi bagosora ibishyimbo mu gihe byeze. Bakabihunika, bakabitera nk'umuti cyangwa bakabigurisha.

Umudamu ufite soya mu ntoki izindi ziri mu gikoresho, akenshi soya zikunda kwera zikerera rimwe n'ibishyimbo n'ibindi bihingwa. Soya kandi barayishesha bakayikoramo ifu ikabona kuribwa.

Umusaruro w'ibinyampeke uri ahantu hamwe harimo ibishyimbo, soya, amageri ndetse n'ibindi. Bikunda kwera mu gihe cy'umuhindo nko mu kwa cumi n'abiri cyangwa mu kwambere cyangwa mu mpera z'ukwa gatanu.

Umuntu arimo gutunganya umusaruro w'igihingwa Kitwa igihwagari, aho arimo kuvangura imbuto n'ibindi. Ni igihingwa cyera gifite amabara y'umuhondo, kandi kigakunda kwera i gasozi.

Umusaruro w'imbuto ubitse neza upakiye mu mifuka kandi ibitse neza ku murongo. Harimo umuntu ushinzwe kubyitaho. Akenshi imifuka imeze gutyo cyangwa umusaruro umeze gutyo uba ari uw'abantu barenze umwe, aho bakorera mu matsinda kugira ngo babashe guhingira hamwe umusaruro wiyongere.

Inka y'inzungu imaze kubyara ifite inyana imbere yayo yabyaye irimo kuyirigata, ni inka nini kandi ifite n'icebe rinini ifite amabara y'umukara n'umweru.

Abaganga b'amatungo barimo kwiga uburyo bagomba kujya bita ku matungo, imbwa ni yo barimo kwigiraho muganga umwe afite ibyo ari kumva mu matwi, imbere ye hari ikayi ndetse n'ikaramu.

Umuganga w'amatungo afite itungo arimo kubaga kugira ngo arihe ubuvuzi, akenshi bikorwa n'umuntu wize ibijyanye no kuvura amatungo gusa, aho amenya indwara amatungo arwaye noneho akamenya n'uburyo agomba kuzivura.

Inka ziri ku murongo kandi ziri ahantu habugenewe kugira ngo zihabwe ubuvuzi zidatera imigeri cyangwa ngo zibangamire umuganga. Ni ahantu hegeranye cyane inka ijyamo igatwirwamo ntibone uko yinyeganyeza. Abaganga barahari rero bagiye kuzivura.

Mu muganga w'amatungo arimo kuvura inka. Aho yakoze mu nda y'amaganga yayo kugira ngo abashe kuyivura. Akandi kaboko kamwe, kafashe ku kaguru k'inka, aho wagirango ngo irimo kuva amaraso.

Inyamaswa y'agasozi yitwa ingwe ni inyamaswa iba iri mu mabara atandukanye umukara, umuhondo ndetse n'ayandi, zikunda kuboneka mu Kagera aho zikurura ba mukerarugendo bakaza kuzireba maze bakishyura amafaranga.

Inzoka ni inyamaswa y'agasozi ikunda guteza ibibazo cyane mu kurya abantu ndetse bakaba babura n'ubuzima, izi nyamaswa zikunze kuboneka ahantu hakuru ba mukerarugendo nko mu mashyamba ndetse n'ahandi.

Inyamaswa z'igasozi zitwa imparage. Ni inyamaswa ziba ziri mu ma mabara y'umukara n'umweru kandi ni zimwe mu nyamaswa zikunda kuboneka hano mu burasirazuba. inyamaswa kandi zikurura ba mukerarugendo aho baza kuzireba bakanazishyura n'amafaranga. Zirimo kunywa amazi.

Inyamaswa z'agasozi. Inyamaswa nyinshi ziri mu bwoko bumwe zitwa isha. Zikunda kuboneka mu Kagera kandi ni zimwe mu nyamaswa zikurura ba mukerarugendo, hano mu gihugu cyacu.